Abantu bicaye hamwe, bakurikiye uri kubaha ikiganiro ndetse bamwe bari kwandika abandi bari gukurikira.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu yambaye agapfukamunwa, afite terefone mu ntoki, hari abagore n'abana ndetse n'abakobwa bakiri bato.

Umuganga wambaye ga z'ubururu ndetse n'impuzankano y'umweru ari gusuzuma umurwayi amufata amaraso mu kaboko, abaganga badufasha kutuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse no kwita ku buzima bwacu bwa buri munsi.

Icyumba kirimo ibitanda ndetse kiryamyeho abagore bafite abana, hejuru yaho hariho inzitiramibu ifasha mu kurinda imibu, bityo bikadufasha kwirinda Malariya.

Umuganga w'umugabo yambaye amadarubindi ndetse n'agapfukamunwa afite ikaramu ari muri laboratwari, aho basuzumira indwara zigiye zitandukanye ndetse n'ho bafatira.

Igikarito kirimo imiti, giteretse mu mbuga, impande yaho hari inyubako y'amabuye.

Umuntu wicaye, afite ikaramu ari gucuruza imiti, imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse no kongera ubuzima bwiza bityo bukaba ubuzima buzira umuze.

Umuhanda w'amabuye ujya aho bacururiza imiti, imiti ifasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse no gukingira imbere y'iyi nzu hari igikoresho bashyiramo amazi bifashishwa mu gukaraba intoki kugira ngo birinde udukoko dutera indwara.

Abantu bicaye ku ntebe imbere y'aho hari ameza ateretseho amazi, bamwe bafite amatelefone mu ntoki abandi ari ku meza, imbere yabo hari umugabo uhagaze uri ubabwira ibintu bitandukanye ndetse no hirya hari undi mugabo uhahagaze.

Umugore w'inzobe usutse yambaye n'amaherena n'umweru, afite indangururamajwi arabwira abantu ibijyanye n'uko bakwita ku buzima bwabo, aratanga inama z'ibyerekeranye n'uburyo bakwinda indwara zigiye zitandukanye.

Abantu batonze umurongo, hari n'inzego z'umutekano, inzego z'umutekano zifasha mu gucungira abantu ndetse n'Igihugu umutekano, bityo Igihugu kikabaho kisanzuye.

Abantu bari kujya aho bavurira handitse gira ubuzima, iyo nzu bankoreramo ifite amarangi y'ubururu ndetse n'ay'icyatsi, ifite n'amadirishya y'umweru.

Abantu b'abagabo bahagaze imbere y'inyubako iteye irangi ry'ubururu inyuma; ndetse n'irangi ry'icyatsi imbere.